Imodoka y'imbangukiragutabara iri mu ibara ry'umweru ifite amatara yaka umutuku, imbere yaho hahagaze abagabo bamwe bambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umutuku barimo kwinjiza umurwayi muri iyo mbangukiragutabara.

Abantu bicaye imbere y'inzu barimo abagore sndetse n'abagabo, iruhande rwabo hari inkingi iriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu "Isuzuma rya muganga" ndetse iruhande hahagaze umuganga wambaye umwenda w'akazi ufite impapuro, mudasobwa n'ikaramu.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bamwe muri bo barahagaze bemye abandi barunamye, bahagaze imbere y'inzu isize irangi ry'umweru, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yabo hari ubusitani.

Abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru, umwe ari imbere y'ameza undi ari inyuma yayo, imbere yabo hateretse ibikoresho byinshi byifashishwa muri raboratwari, umwe ari gukora ku ducupa undi arimo gucomeka urutsinga.

Abakobwa n'abahungu bambaye imyambaro y'abaganga ifite ibara ry'umweru ndetse na ga, umwe muri bo imbere ye hateretse ibyuma, arimo kubitunganya hejuru hari ikirangantego kigaragaza ko muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda.

Umuganga wambaye umwenda w’akazi ibara ry’umweru, wicaye ku gatebe gakozwe mu biti, imbere ye hari idirisha, iruhande rwe yateretse mikorosikope arimo kurebamo, iruhande hari igikuta kiriho ibipapuro by'umweru cyandikishijweho ibara ry'umukara.

Inzu irimo abana basa nk'aho bari mukigero cy'imyaka itatu kugeza kuri itanu, ndetse n'abagabo babiri bakuze, umwe muri bo yambaye agapira k'ubururu, undi yambaye agapira ka kaki karimo uturongo. Bose bafite amasahani afite ibara ry'umweru ariho ibiryo bari kugaburira abana.

Abantu bicaye mu nzu isize amarangi y'umuhondo, imbere hari ibitambaro biteguye bifite amabara y'Idarapo ry'igihugu ry'u Rwanda, umwe muri bo ahagaze imbere yabo arimo gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari ibyapa by'umweru byandikishijweho n'amagambo y'umukara.

Inzu icuruza imiti ifite icyapa imbere kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, cyandikishijweho amagambo y'icyatsi cyijimye agaragaza ko ari inzu icuruza imiti, ifite inzugi z'umweru n'amadirishya, imbere hari inkingi ebyiri z'umweru zandikishijweho amagambo y'icyatsi.

Uducupa duteretse ku meza, dukozwe mu kirahuri kibonerana, tumwe muri two dufite imifuniko y'umweru, utundi dufite imifuniko y'umutuku, ku kirahuri hari agapapuro k'umweru, kandiditseho amagambo, yandikishije ibara ry'umukara.

Abagore n'abagabo bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima gisize irangi ry'ubururu ndetse n'amabati' y'umutuku, imbere yaho hari icyapa gishushanyijeho umugabo n'umugore ndetse n'abana byanditseho gira ubuzima.

Abantu babiri bari mu nzu, umugabo n'umugore, umugabo wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umweru n'umugore uteruye umwana, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, telefone, hamwe n'insinga.